Ni byiza ko buri muntu wese ugenda mu mujyi wa Kigali akwiriye kumenya ibi bikurikira, dukwiriye kumenya ko Kigali yacu igomba guhora icyeye kandi ifite isuku.